Umuganga wambaye igitambaro cy'umukara harimo ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru, arimo gusuzuma umurwayi wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ibitenge.

Umubyeyi w'umugore aricaye, yambaye agapira k'umweru, umwana we amwicaye ku bibero, wambaye agapira k'umweru, umugabo yambaye agapira k'umweru amufashe ku kaboko, yambaye indorerwamo z'amaso.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse n'indorerwamo z'amaso, afite udupfukantoki, yambaye ijire y'umuhondo irimo utubara tw'umukara, ari kumwe n'umubyeyi uteruye umwana wambaye ishati y'igitenge irimo amabara y'umweru ndetse niyu.

Abana baje ku ivomero, amazi ari kumeneka hasi, iruhande rwayo hari ijerekani y'umuhondo, hirya ku ruhande hari umwana ufite inkoni, wambaye bote ndetse n'umupira w'umutuku.

Abana ubona ko bicaye bambaye udupira twa oranje hari abandi bantu bari kubafasha, harimo umugore wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari undi mugore wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru, hari n'umupolisi ufashe igikombe uri kunywesha umwana.

Umwana usutamye uteruye indobo y'umuhondo ifite umufuniko w'umuhondo imbere ye hari umugezi ufite robine enye, hirya yaho hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Umwana wambaye kacye ari gukarabywa mu ntoki n'umumama wambaye umupira w'ubururu ndetse yambaye n'agapfukamunwa n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe, biganjemo abambaye amashati y'imyeru ndetse amakote y'umukara n'amapantaro y'umukara, bari mu cyumba kirimo amabara y'umuhondo bafite amakayi mu ntoki zabo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ingofero irinda umutwe arimo gusana ivomero, hafi ye hari abantu bagiye batandukanye, harimo umwana ufite indobo y'umuhondo arimo kureba uburyo ari gusana uwo mugezi.

Umwana ari kunywa amazi akoresheje ibiganza, ndetse ari no kuvomera mu ndobo, hirya y'aho hari inzu isize amabara y'umweru ndetse n'ubururu hirya yaho hakaba har’ibiti birebire.

Agatanda k'amasahani kubakishijwe n'ibiti, karambitseho ibyombo harimo ibase y'ubururu, amasahani ndetse n'ibikombe, hirya yaho hari insina ndetse n'imiyenzi.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru, umupira w'umweru ipantaro y'umukara ateye umwana mu nkosha y'umweru hirya ye hari ibipapuro by'umweru ndetse hari n'umuntu urimo kubisoma.

Icyumba cyicayemo umugore uteruye umwana wambaye agapira k'umweru, wambaye akagofero k'umuhondo ndetse n'ubururu hari umugore wambaye itaburiya urimo araha umwana umuti, hirya hari umuryango ufite urugi rw'icyatsi.

Itsinda ry'abantu bambaye amataburiya y'ubururu bwerurutse bafite amaterefone mu ntoki harimo abambaye umupira w'umweru ndetse n'ikote ry'umukara.

Ihema rikozwe n'ibitambaro birimo amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu ririmo abantu bicaye ku ntebe z'amabara y'umweru ndetse ku ruhande hicaye umupolisi w'umukobwa.

Umuntu witeye igishura gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, arunamye afashe ijerekani, arimo kuvoma amazi, inyuma ye hari ibyatsi, iruhande rwe hari akabuni, gafite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye ahantu ku ntebe z'umweru, imbere hari abagabo batatu bari kureba imbere ndetse bambaye udupira tw'umweru, inyuma gato ku ruhande rw'iburyo hari umugabo wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'ingofero y'umweru.

Umukobwa wambaye ijipo y'ubururu, agashati k'umweru ari ku rukarabiro, ari gukaraba mu ntoki, hirya ye hari inzu yubakishije ibyondo ndetse hari n'ibiti.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, ari gufasha abana kuvoma amazi. Harimo umwana wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'agakabutura k'umukara, hirya yabo haparitse imodoka, munsi yayo hari ibihuru.

Abantu bicaye ku ntebe, harimo umudaso, umuntu wambaye ishati y'umweru n'umukara, hepfo yabo hari imodoka, hirya yabo hari inzu yubakishije amatafari ndetse hari n'ibyatsi.

Ababyeyi babiri ndetse n'abana, umwana umwe ari kuvoma amazi mu ndobo, undi mubyeyi arimo koza umwana mu ibase.

Umubyeyi yazanye umwana kwa muganga, afashe umwana ubona ko abaganga barimo kumwitaho, afite urushinge mu ntoki kugira ngo abone uko akingira umwana.

Itsinda ry'abantu bahagaze ku murongo umwe, bahagaze mu byatsi, inyuma yabo hari igitambaro gifite ibara ry'ubururu, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, ngo hehe nigwingira, twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Itsinda ryabantu bicaye mu cyumba, imbere yabo hateretse amazi ariho imifuniko y'ubururu. Harimo umugabo wambaye ishati irimo umweru n'umukara. Inyuma ye hari umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Icyumba kirimo abagore batandukanye, harimo umugore uri guseka, wifashe mu mayunguyungu, afashe akajipo mu ntoki gafite ibara ry'ubururu. Inyuma ye, ku ruhande rw'ibumoso, hari umugore wambaye ishati y'umweru.

Abana bicaye bambaye imipira ya oranje, inyuma handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Imbere yabo hari umumama wambaye umupira w'umweru ndetse n'akajire n'ipantaro y'umukara. Hirya ye hari umusirikare ufashe inkongoro mu ntoki.

Umwana wunamye wambaye agashati karimo umuhondo n'umutuku n'akajipo karimo ubururu n'icyatsi, afite ijerekani y'umuhondo yayidubitse mu mazi arimo aravoma, imbere ye hari ibyatsi.

Umwana muto w'umukobwa, ari kumugezi, ari gukaraba mu ntoki, yambaye imyenda y'imituku ubona ko yishimye.

Umwana wambaye ikabutura y'ubururu bwerurutse, ari kuvoma, hejuru ye hari umwana wunamye, wambaye umupira w'ubururu bwererutse ndetse n'ipantaro ya kaki.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo urubyiruko, imbere hari umusore wambaye umupira w'umuhondo ndetse na kamambiri, iruhande rwe hari umugore uryamye wambaye igitambaro cy'umweru ndetse n'agapira k'umukara, hirya ye hari umugabo wambaye ingofero ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abana benshi bahuriye hamwe, ubona ko bari kuvoma ku kidomoro giteretse ku meza, bafite udukombe bambaye udukabutura dufite ibara ry'ubururu, ndetse n'udushati tugiye dufite akabara k'ubururu, ku ikora.

Ababyeyi biganjemo abagore ndetse n'umugabo umwe wambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'umweru, bari mu cyumba kirimo ibara ry'umuhondo, buri wese agiye afite ikayi yo kwandikamo.

Umwana ufite imisatsi iboshye; wambaye utwenda tw'igitenge kirimo amabara ya orange ndetse n'umweru, ari gukaraba kuri robine hariho ibase y'umukara.

Abantu benshi bicaye, harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara, ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hari amazi yo kunywa, hirya ku ruhande rw'ibumoso hari umugore wambaye ikote ry'umukara, hirya ye hari undi mukecuru w'imvi z'uruyenzi, iruhande rwe hari idarapo ry'u Rwanda.

Abana b'urubyiruko bari guhabwa amabwiriza, baricaye imbere ya bo hari imeza, amazi yo kunywa, bambaye udupfukamunwa.

Inyubako yubakishijwe amabuye, harimo akaryango k'icyatsi, hejuru hari urukuta rusize irange ry'umweru, imbere yaho hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hafi aho hari abantu benshi bahahuriye, iruhande rwaho hari ihema.

Kwa muganga aho bakirira ababagana, imbere ya muganga hari mudasobwa yifashishwa kugira ngo batange serivisi, bambaye udupfukamunwa.

Inzu yubatse nk'urukuta rw'amabuye, hejuru hasakaze amategura, imbere yayo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hahuriye abantu benshi ndetse hirya y'abo bantu hari ihema.

Abantu bahagaze harimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe, bambaye ingofero z'imyeru, ndetse n'imipira y'ubururu, imbere handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ngo shora neza.

Abagabo batatu barahagaze, umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'indorerwamo z'amaso, undi yambaye itaburiya y'umweru ndetse n' agapfukaminwa, uri ku ruhande nawe yambaye itaburiya y'ubururu ndetse afite n'ikintu mu ntoki.

Abantu batandukanye barimo abazungu n'abirabura bafite uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse bafite n'amatelefoni imbere yabo, biganjemo abafite amakaramu mu ntoki ndetse n'ibyo kwandikaho.

Abana bato bari kumwe n'umubyeyi wabo, barahagaze, ubona ko umubyeyi yambaye ipantaro y'icyatsi kibisi ndetse afite igikombe mu ntoki kirimo amazi, arimo arasukira abana kugira ngo bakarabe.

Abantu batatu bahagaze ku iriba, umwe ni umugabo wambaye ikoti ry'umukara ririmo uturongo tw'umweru, afashe ku njerekani y'umuhondo ari kuvoma. Undi ni umugore wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ikanzu y'igitenge. Imbere ye hari ijerekani. Hagati yabo hari umugore uhagaze ahagana hejuru ku iriba wambaye umupira w'umweru mo imbere n'ijire ya orange.

Ihema ry'umweru ririho ibitambaro by'umweru ku byuma imbere yaho hari abagore bambaye amataburiya y'ubururu, hirya gato hicaye umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n n'ipantaro y'umukara, imbere yaho hari ibyatsi.

Abantu batatu bicaye ku ntebe za cheze, ubona ko harimo umuganga yambaye itaburiya y’ubururu ndetse n’agapira k'icyatsi, imbere ye har’umugore ubona ko atwite, yambaye agakote k'umukara, umugabo amufasheho wambaye agashati k'umweru karimo utubara tw'ubururu.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, indorerwamo z'amaso, ndetse afite ikiyiko mu ntoki n'isahani iriho ibyo kurya, ari kugaburira umwana wambaye agapira k'umuhondo, uteruwe n'umubyeyi wambaye umupira w'umweru.

Ku mugezi ubona ko bashaka amazi umubyeyi ndetse n'abana, hari indobo y'umutuku, ijerekani y'umuhondo, indobo ndende y'umweru, nyuma yabo hari amazu ubona ko rwose hatuwe cyane.

Umugore w'umuzungu wifashe ku gatuza, yambaye agasaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki, hirya ye hari ibyapa byanditseho mu mabara y'umuhondo oranje ndetse n'ubururu.

Umusore wambaye agashati k'umweru, ndetse n'umupira w'ubururu, yicaye areba muri terefone, imbere ye haretse icupa ry'amazi, rifite umufuniko w'umweru, hirya ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Abana baje kuvoma amazi buri wese afite igikombe, hari ikigega inyuma yaho hari amabati ndetse n'ibiti.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye umupira w'umuhondo, ukuboko kwe kuri ku gitanda. Muganga ari kumusuzuma, imbere ye hari mudasobwa. Inyuma ye hari undi muganga.

Inyubako yo kwa muganga, ubona ko hari abantu baje guhabwa ubufasha runaka, bicaye ku mukeka, hari ibikoresho biri kwifashishwa ndetse hari n'abandi bantu barimo kubaha amabwiriza.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'umweru n'indorerwamo z'amaso ku mupira h'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'iburyo, arimo gukingirwa n'umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'umupira w'umweru.

Abana benshi ubona ko baje iruhande rw'ivomompe ryatobotse, harimo umwana wambaye agapira k'umutuku, hirya ye hari uwambaye agapira k'icyatsi kibisi ndetse n'uwambaye agapira k'umuhondo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru isakaje amabati y'ibara ry'umutuku, imbere yayo hari umwana wambaye agapira k'ubururu, imbere ye hunamye umuntu wambaye agapira k'umuhondo, imbere yabo hari umukecuru wikoreye ijerekani y'umuhondo, ifite umufuniko w'umutuku.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku rukuta hari ibara ry'umuhondo, imbere hari abantu bahagaze, harimo umusore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru.

Itsinda ry'abantu harimo abambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ubururu bwererutse harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, akandagiye ku giti cya kandagira ukarabe, hari akajerekani k'umuhondo. Hirya ye hari ururabyo.

Itsinda ry'abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hagiye hari imeza ziriho ibitambaro by'umweru, hagati yabo hari umuntu uhagaze yambaye agakote k'umukara n'ikanzu y'umweru.

Umugore wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'ibimuranga mu ijosi yambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umweru, ndetse n'ijire y'umukara hirya ye hari umugore wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'icyatsi, inyuma ye hari uwambaye agapfukamunwa.

Ku ivomo risize ibara ry'ubururu hari abantu baje kuvoma, hari umubikira ndetse n'umuntu wambaye agapfukamunwa, hirya haparitseyo amagare hirya yaho hari ibiti.

Umuganga afite serenge irimo urushinge, ari gutera umuntu ku kuboko wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru dutambitse ndetse n'uturongo tw'umukara dutambitse.

Abagabo n'abagore bambaye imipira ya orange ndetse n'utujire, bari gutera imboga mu karima k'igikoni inyuma yabo hari umupolisi wambaye ingofero ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umubyeyi waje kuvoma, ufite amajerekani abiri yashyize kuri robine. Yambaye akagofero k’ ubururu ndetse n’ umupira w’ icyatsi urimo amabara y’ umweru ndetse n’ igitenge cy’ icyatsi kibisi.

Abantu biganjemo abazungu n'abirabura, bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hateretse imeza y'ibara ry'umukara. Kuri iyo meza hateretseho uducupa tw'imyeru, turimo amazi, ndetse imifuniko yatwo ni ubururu bwererutse.

Umuganga wambaye agapira k'umweru n'itaburiya n'ikimuranga mu ijosi n'uturindantoki imbere ye hari umukecuru witeze igitambaro kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ku ruhande hari umugore wambaye agapira k'umweru ndetse n'itaburiya y'ubururu.

Abantu benshi biganjemo abakuze, hari amahema ndetse hari n'ibangukiragutabara, baje guhurira hamwe kugira ngo bahabwe serivisi zitandukanye, zo kwa muganga.

Umwana uhagaze ku munzani wo hasi, inyuma ye hari umugabo usutamye wamufashe mu mugongo, yambaye indorerwamo z'amaso, afite n’umusatsi mwinshi cyane, n’ipantaro y’umukara. Inyuma yabo haragaragara undi muntu wambaye impeta yab’abashakanye, ndetse n'ipantaro y’umukara n’umupira.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye ubona ko imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara ndetse afite ikayi n'ikaramu mu ntoki, imbere ye hari umugore witeze igitambaro cy'umukara wambaye n'agapira k'umukara.

Inzu y'umweru ubona ko iri inyuma y'ibiti by'imikindo, hirya y'aho hari robine eshatu, hari abana bambaye kake, kuri uwo mugezi hari indobo zifite ibara ry'umuhondo.

Umwana wambaye ikanzu y'ikigina arimo gukarabira mu ibase amazi ari mu ndobo, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hirya ye hari amatafari abumbye n'ibyondo.

Umukobwa uhagaze ahantu ku kumugezi ubona ko arimo kuvomesha, ahagaze ku gikuta kiriho ibara ry'ubururu ndetse hejuru hari ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hari umukecuru witeze igitambaro, wambaye ishati y'umuhondo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati arimo gufotora, imbere ye hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu bwererurutse imbere ye hari umugabo w'umuzungu wambaye indorerwamo z'amaso.

Abana benshi bahuriye hamwe ubona ko bamanitse ibipapuro hejuru, harimo abambaye amashati y'imyeru ndetse n'amakabutura y'ubururu, hagati harimo umwana wambaye umupira w'umutuku ndetse n'agakabutura k'umukara.

Itsinda ry'abantu bahagaze, abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, higanjemo abambaye amakoti y'imikara ndetse n'amapantaro y'umukara, inyuma yabo hari icyapa cya emutiyene cy'umuhondo.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako, harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku ufite terefone y'umukara mu ntoki, mu kuboko kw'ibumoso ndetse yambaye inkweto z'umukara.

Umugore wambaye umupira w'umutuku hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, afashe umwana wambaye agakabutura k'umukara, harimo uturongo tw'umweru.

Umugore wambaye ishati y'umweru n'agasengri k'ubururu n'ingofero y'umweru, afite ikaramu imbere ye, hari ikayi ari kwandikaho. Imbere ye hari umugore ufite ikaramu ari kwandika ndetse yambaye ishati y'umweru.

Umukobwa wambaye ijipo y'umukara, imbere hari ijerekani y'umuhondo iteretse mu ibasi, inyuma ye hanitse imyenda y'imikara ndetse n'icyatsi kibisi, hirya ye hari inzu iriho amabati.

Abantu babiri baje kuvoma bafite indobo mu ntoki ubona ko umwe ari gukorera mugenzi we, umwe yambaye ijipo y'umuhondo ndetse n'agapira k'ubururu, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari.

Inzu isize irange ry'muhondo, hariho n'icyatsi kibisi, imbere yayo hari itsinda ry'abantu benshi, harimo abagore bambaye amashati y'umuhondo ndetse n'utujire tw'icyatsi kibisi, ruguru yabo hari indabyo.

Abantu benshi baje k'umugezi kuvoma hari amajerekani y'umuhondo ndetse n'umukara hirya yaho hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Itsinda ry'abana bahagaze bari kureba umwana ufite ibikombe bibiri mu ntoki. Yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'agakabutura k'ubururu, iruhande rwabo hari ibyatsi.

Ivomo ubona ko riri ahantu hari ibyatsi, hari abana bashyize ku murongo ubona ko bategereje guhabwa amazi, hari umuntu urimo arabafasha kubona ayo mazi asunika azamura yongera amanura kugirango ayo mazi abone uko.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo, icyatsi, ndetse n'umutuku wijimye, ateruye umwana, afite n'igipapuro cy'umuhondo wererutse, imbere ye hari umugore wicaye afite igitambaro cy'umweru mu ntoki, ari kureba inyuma.

Itsinda ry'bana benshi bari inyuma y'umugore wambaye indorerwamo z'amaso urimo guseka, yiteye igitambaro kiriho amabara y'umuhondo ndetse n'ayumukara.

Ababyeyi b'abamama ndetse n'abagabo, bari kumwe n'abana ahantu hari insina ubona ko hari ivomero, umubyeyi umwe ari gufasha umwana kugira ngo abone amazi.

Umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye n'amaherena y'umweru n'isaha ku kuboko, yambaye agapira k'icyatsi kibisi, afashe ku meza, imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijire y'umukara.

Umwana wambaye agapira k'umweru n'agakabutura k'umutuku wererutse, yagiye kuri robine ari kuvoma kumwe ijerekani y'umuhondo, inyuma ye hari urutoki ndetse n'ibyatsi.

Abana b'abanyeshuri bicaye bareba muri kamera, bicaye bari gufata ibyo kurya ndetse bambaye imyenda y'ubururu ndetse na kake, aba bana barimo kurya kawunga ndetse n'ibishyimbo.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo abambaye amataburiya y'imyeru, ndetse nutubaranga bahuriye ahantu imbere yaho hari ibyatsi harimo n'abambaye imyambaro y'imikara.

Umwana wambaye agapira k'umutuku yaje kuvoma n'amajerekani abiri y'umuhondo, hirya ye hari utuyenzi inyuma ya two hari abantu nk'ababyeyi bafite abana batoya bari kureba undi mubyeyi uri gufasha umwana kuvoma amazi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'isurubeti y'ishashi, arimo gupima umurwayi wicaye ku ntebe, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ishati y'umukara n'ingofero y'ubururu.

Mu nzira umwana uvuye kuvoma, umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ingofero y'ubururu; ubona ko ari kumuha ubufasha ndetse imbere yabo hakaba hari umukobwa urimo kubafotora.

Umugore ufashe ijerekani arimo kuvoma amazi kuri robine, imbere ye hari umwana wambaye agapira k'umukara karimo ibara ry'umweru, hirya ku ruhande rw'ibumoso hari umwana wambaye agapira k'umutuku kagiye karimo utubara dutandukanye.

Umwana ufite umusatsi w'umukara wambaye agashati k'ibara ry'uburu, ari kumwe n'umuganga wambaye udupfukantoki tw'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru afite ikimuranga mujosi, gafite umugozi w'ubururu.

Icyumba gisa neza cy'amabara y'umweru, harimo urubyiruko rwiganjemo abasore, mu mipira myiza y'imikara, bari guhabwa amabwiriza y'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Itsinda ryabantu higanjemo abambaye imipira y'icyatsi harimo n'abapolisi bafite icyapa cyanditseho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye bari mu muhanda bagenda.

Itsinda ry'abagabo n'abagore higanjemo abagabo bambaye amapantaro ndetse n'amakoti by'imikara n'amashati y'imyeru, bahagaze imbere y'inyubako irimo amakararo.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe cyo kwa muganga gisize irangi ry'umuhondo, hahagaze umugore imbere w'imisatsi miremire w'inzobe, bicaye ku ntebe z'umukara.

Umusaza wambaye ingofero; afite ibihanga ubonako yiteye umwitero ufite amabara y'umuhondo, akaba afite icumu mu ntoki ze.

Inyubako isize irangi ry'ibara ry'umuhondo, hejuru ku mireko hasizeho ibara ry'ubururu ndetse ishakaje amategura, hepfo kuri geti hari urupangu rwubakishije amabuye.

Amapave munsi yaho hariteyemo ibyatsi, imbere yaho hari ibiti by'imikindo, hari inzu ifite urukuta rw'ibara ry'umweru handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu irimo amabara y'umweru, afite igipupe cy'intare mu ntoki, imbere ye hari umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'amaherena.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda yabo y'abapolisi, bari kumwe n'abaturage ndetse n'abaganga, aho bari kwishimira igikorwa cyo kubungabunga uburenganzira bw'umwana.

Umwana urimo kurira wambaye ishati ufashe ku mutwe, hirya ye hari umubyeyi ufite inkwi mu ntoki hirya hari abantu benshi ndetse n'akana kamufasheho.

Umukobwa wicaye ku gasambi, ahantu mu ishyamba, wambaye umupira w'umuhondo, igitenge kirimo utudomodomo tw'umweru, ari iruhande rw'igiti kigiye cyanditseho amazina.

Umugabo wambaye ishati yumweru irimo uturongo tw'umukara, ndetse n'ikote ry'umukara, yambaye agapfukamunwa hirya ye hari umugore wambaye agapira k'umweru imbere ye hari agacupa k'amazi...

Umugabo wicaye mu nzu ubona ko ishaje, aziritse amaguru yombi yifashe ku gahanga, yambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru tumanuye yicaye ku kumukeka.

Mu cyumba cyo kwa muganga umugore wambaye umupira w'umweru, ahagaze imbere y'abandi babyeyi batatu, ari kubaha ikiganiro, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'amatelefone yabo.

Icyumba kirimo abantu babiri, umugabo ufashe ku gahanga, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'icyatsi cyijimye, ari kumwe n'umukobwa wambaye isaha, amufashe ku rutugu rw'ibumoso.

Umugabo ubona ko yihebye yifashe ku itama, yambaye ingofero, yambaye ishati y’umutuku ndetse n’ipantaro y’umutuku, arimo kugirwa inama n'umukobwa wambaye ipantaro y’umukara ndetse n’umupira w’umukara n'amadarubindi.

Umugore wambaye ishati y'umukara, aturiye umwana wambaye umupira w'umutuku, hepfo ye hari umubyeyi wambaye ipantaro y'umukara, imbere ye hari telefone, hagati yabo hari imeza, hafi yabo hari umubyeyi uteruye umwana.

Uruziga rwa oranje ruriho akazenguruko k'ubururu, rufashwe n'ibiganza by'ubururu ndetse n'umweru, hejuru yabyo hariho inyuguti nkuru zanditseho ngo wihogora.

Abantu bicaye ku dutebe dufite amabara y'umutuku, hari amapave imbere yabo, higanjemo abantu bambaye imipira y'imikara n'amapantaro y'umukara, ndetse n'abambaye imyeru.

Umugore wicaye ku ntebe y'ubururu, yambaye agatambaro k'ubururu, wambaye umupira w'icyatsi urimo ikirango mu mugongo cya orange imbere ye hari amazi apfundikijwe amufuniko w'ubururu.

Umubyeyi witeze igitambaro cy' umuhondo yicaye ku ntebe y' urubaho, hirya ye hari intebe y' urubaho inyuma ye hari urukuta rushushanyijeho ururabo ruri m’ ibara ry' umuhondo ndetse n' icyatsi kijimye.

Imbaga y'abantu benshi barimo umukobwa wambaye umupira w'umweru n’ipantaro y’ubururu n’inkweto z'umukara, hirya ye hari umukobwa wambaye umupira w'umweru, ndetse n’ipantaro y’umukara bafite igipapuro cyanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu.

Inzu y'ibyondo y'akadirishya k'urubaho, imbere yaho hicaye umubyeyi uri kumwe n'abana babiri, yiteze igitambaro cy'umuhondo. Imbere ye hari inkoko n'ingemeri irimo ibigori.

Abantu bari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, bicaye ku ntebe. Imbere yabo hari imeza iteretseho agacupa k'amazi gafite umufuniko w'ubururu. Imbere yabo hari umubyeyi uhagaze wambaye ikote ry'umukara.

Umugabo muremure wambaye indorerwamo z'amaso z'umukara wambaye ishati y'umweru wijimye ndetse n'akarongo kamanuye k'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, inyuma ye iruhande rw'igipangu hari imikindo ibiri iruhande rw'ibumoso ndetse n'urw'iburyo.

Umugore wambaye jire y'umuhondo ahagaze mu cyumba bacururizamo, aho ari guseka ndetse afite amenyo y'umweru n'ishinya y'umukara, inyuma ye hari etajeri irimo udukoroboyi, imbere ye hari igikarito kirimo ibirungo bitandukanye.

Abantu bazamuye amaboko mu ibara rya oranje, icyatsi ndetse ubururu n'umweru hasi hari amagambo yanditse mu nyuguti nkuru mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo wicaye ku gatebe imbere ye hari ababyeyi batatu ndetse n'umwana, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'avoka.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi yacitse yifashe ku itama ndetse ukuguru kw'ibumoso nta nkweto kambaye yegamye ku rukuta ubona ko rushaje.

Ubutaka bumeze neza, hahuriye abantu, ubona ko bari mu gikorwa cy'umuganda, aho barimo gutera ibiti.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kirimo ibara ry'umuhondo bicaye ku ntebe buri umwe agiye afite agacupa k'amazi kariho umufuniko w'ubururu.

Umukobwa wambaye isaha ku kuboko ndetse imbere ye hari amazi apfundikije udufuniko tw'ubururu, yambaye ishati y'umweru ndetse harimo n'icyatsi kibisi, inyuma ye hari umugore wambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'umupira w'umukara.

Umugore uri imbere y'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, wambaye ikanzu y'amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, afite ikimuranga mu ntoki arimo kucyerekana ndetse yambaye n'impeta ku kuboko kw'iburyo.

Umugore w'umuzungu uhagararanye n'abantu bambaye imipira y'icyatsi, hagati yabo hahagazemo umugabo wambaye ishati y'ibara ry'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'ibara ry'ubururu w'amaboko maremare, wicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hari abagore bane, harimo uwambaye umupira w'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Umugore wambaye udukomo ku maboko yombi ndetse afite n'agapfukamunwa ku kuboko kw'ibumoso yambaye ijire y'ubururu bwijimye inyuma ye hari undi mugore wambaye igitambaro mu mutwe hirya ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Ababyeyi batatu ubona ko bari ahantu hakorerwa imirimo y'ubuhinzi, umubyeyi umwe arimo arahereza umwana ibere, kugira ngo babone uko bakomereza imirimo yabo.

Itsinda ry'abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umweru, harimo umugore ufite isakazamajwi, wambaye ikanzu irimo utubara tw'umweru ndetse ni utw'umukara, imbere ye hari icupa ry'amazi.

Umugabo wirabura wambaye agapira k'umweru ari kumwe n'umukobwa w'inzobe ufite imisatsi myinshi barimo baraseka bireba mu indorerwamo.

Umwana wambaye agapira k'umukara ndetse na'agapfukamunwa k'umutuku hari umugabo urimo kumureba mu kanwa wambaye udupfukantoki n'agapfukamunwa n'umupira w'umuhondo n'itaburiya y'umweru.

Ni mu ishuri harimo umusore muremure, ababyeyi babiri ndetse na mwarimu uri gusobanurira umwana mutoya, harimo ikibaho cy'umukara ndetse cyanditseho amagambo yandikishijwe ingwa y'umweru.

Abana bato bambaye imyenda y'icyatsi, umwe afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, undi abufite mu kanwa, ubona ko barimo baroza amenyo yabo.

Umugabo n'umwana we bari mu cyumba, ubona ko bishimye cyane, bambaye imipira y'imyeru, bafite akadodo, bagashyize mu kanwa, ubona ko hari ibyishimo.

Umugabo wambaye itabuririya y'umweru inkweto z'umukara n'agapira k'umuhondo, afite ikaramu ku mufuka w'itaburiya, isaha ku kuboko; yicaye ku ntebe irimo amabara yiganjemo icyatsi kibisi ndetse n'umukara.

Umusore wambaye ishati y'ibara ry'Umweru yarengejeho itabu ifite ibara ry'umukara, imbere ye hari umukobwa wambaye ishati ifite ibara ry'umukara, arimo baravura umurwayi.

Umugore w'inzobe wambaye isaha afite uburoso mu kanwa, ari kumwe n'abandi bakorerabushake ndetse baricaye bari kwerekana uko bagomba gukesha amenyo.

Umukobwa wicaye ku ntebe, afite icyirori mu ntoki, arimo araseka, arikwireba, yambaye amaherena n'imisatsi miremire, hirya ye hari agasahani ndetse n'agakombe.

Intoki zambaye uturindantoki zifashe akuma gakura iryinyo kafashe iryinyo kamaze gukura ndetse n'umuntu wasamye hagaragara amenyo y'umweru ndetse n'igihanga cy'aho bamaze gukura iryinyo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'ubururu, ari kumwe n'umusore wicaye ku ntebe wambaye umupira w'umukara, ndetse ubona ko ari kumwereka ko afite ikibazo ku menyo hakenewe ko bamuhindurira.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bari imbere bicaye, bagiye bambaye imyenda itandukanye amabara, harimo amabara y'umweru, amakote y'ubururu ndetse n'inkweto z'imikara.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi, yandikishijeho amagambo ngo" tubiteho" yanditse mu ibara ry'umuhondo, barimo guhabwa ubufasha kwa muganga, bicaye ku ntebe.

Umusore ufite ubwanwa, amenyo yereruka, afite urudodo mu ntoki ubona ko ashaka gukura iryinyo, yishimye cyane, ubona ko arimo aseka.

Umugabo muremure w'ubwanwa wambaye imyenda y'umukara ari kwireba mu ndorerwamo, imbere ye hari impapuro z'isuku, inyuma ye hari ibitambaro by'imituku.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'umweru wambaye udupfukantoki tw'umweru n'agapfukamunwa, umupira w'umweru, imbere ye hari ikaramu n'impapuro ari gupima umukobwa, imbere ye hari telefone.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse yambaye agakomo karimo amabara y'umweru, icyatsi, umutuku ndetse n'umukara, ari gupima umuntu mu kanwa, iruhande rwabo hari umuntu wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y’umukara.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, udupfukantoki arimo aramurika mu kanwa k'umurwayi, ari kumwe n'umugabo wambaye isaha ku kuboko, udupfukantoki ndetse n'itaburiya y'umweru.

Abana b'abanyeshuri bafite udukombe mu ntoki, ubona ko bari koza amenyo, bahagaze rwose ubana ko bari kwigishwa uko bakoza amenyo agacya.

Umusore w'inzobe ufite imisatsi ikaraze araryamye yambaye agapira k'umweru harimo umukara. Iruhande rwe hari umuganga wambaye udupfukantoki ndetse afite n'agapima.

Abana benshi bambaye impuzankano ndetse bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki babiri bari imbere umwe afite agakombe k'umuhondo mu kuboko kw'ibumoso, undi umuri i buryo afite agakombe k'ubururu karimo utubara tw'umweru mu kuboko kw'ibumoso.

Ihema ry'amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hejuru handitseho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, terwa ishema no mu kanwa hawe.

Inzu irimo amabara y'umweru harimo umukobwa wambaye agakanzu gafite amaboko magufi ndetse afite uburoso burimo ibara ry'umweru, afite n'imisatsi miremire, ari guseka, n'amenyo y'umweru.

Umukecuru wambaye ishati y'umweru, igitambaro cy'umweru, igitenge cy'umuhondo, imbere ye hari ibikenyeri acanye mu ziko, hirya ye hari imihate ikingirije aho acanye.

Icyumba kirimo intebe, ameza, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara, ndetse n'isaha, ufashe ku byuma, hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, ufashe akantu k'umukara mu ntoki.

Ababyeyi barimo guseka, uri kuruhande yambaye agapira k'umweru n'amaherena, hagati yambaye umupira w'umuhondo, afite na terefone mu ntoki.

Umugore wambaye agapira k'umweru n'ishati y'umuhondo ari kumwe n'umusore w'inzobe wambaye agashati k'umweru, bafashe umusaza wambaye ipantaro y'umukara bagiye kumwicaza ku gitanda kiriho amashuka y'umweru.

Abagore bicaye hamwe harimo abakecuru basheshakanguhe harimo umukecuru wambaye ingofero y'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu inyuma yabo hari intebe z'umweru ziticayeho abantu hirya y'aho hari insina.

Abantu bitabiriye ibirori harimo abicaye, imbere hari umusaza uhahagaze wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara, yiteye umwitero urimo utubara tw'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwe hari umukecuru wambaye agasa ku kuboko ndetse n'urunigi rufite amabara y'umweru n'umukara.

Umusaza w'imvi wambaye impeta y'umweru ku kuboko kw'ibumoso, yambaye ishati y'umweru ndetse n'umupira w'ibara ry'ivu, imbere ye hari umukecuru ubona ari guseka wambaye urunigi mu ijosi ndetse afite n'imvi nyinshi.

Ababyeyi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru. Harimo umubyeyi wicaye ku ruhande wambaye akagofero karimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, inyuma yabo hari insina z'urutoki.

Umukecuru w'imvi z'uruyenzi arimo guseka yicaye ku ntebe yambaye itaburiya y'umweru, ndetse hejuru ye hari umukobwa wambaye itaburiya y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru nawe arimo guseka.

Umukecuru w'imvi z'uruyenzi, wambaye agapira k'ubururu bwererutse, urunigi rw'amabara y'umweru ndetse n'umukara mu ijosi, afite umwitero w'ibara ry'umweru ndetse n'indangururamajwi y'ibara ry'umutuku mu ntoki.

Umugabo w'uruhara wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu irimo akarongo k'umweru ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'umweru n'agacupa k'amazi kariho umufuniko w'ubururu.

Umusaza wicaye, wambaye indorerwamo z'amaso, w'imvi z'uruyenzi, imbere ye hari umukobwa wambaye itaburiya y'ubururu ndetse ufite imisatsi miremire, inyuma ye haricaye umukobwa wambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi ubona ko bari mu birori, bari mu ihema rifite ibitambaro bifite amabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'icyatsi, imbere hari abasaza babiri bahagaze harimo uwambaye ingofero y'ubururu, ndetse n'indorerwamo z'amaso, iruhande rwe hari umusaza wambaye ishati y'umweru, ndetse yiteye igitambaro cy'umuhondo.

Umusore ufite umusatsi n'ubwanwa bwinshi arimo araseka, ubona ko ari guhereza amabwiriza umusaza w'imvi z'uruyenzi kugira ngo afatwe ibizami.

Bicaye ku ntebe imbere yabo hateretse ameza, umwe muri bo yambaye indorerwamo z'amaso akaba afite n'ivi nyinshi mu musatsi, ku meza hateretse inyanya ebyiri n'imboga ari gukata akoresheje icyuma, ndetse agaterekwa n'agasahani kari imbere y'umwana w'umukobwa wambaye iherena.

Aba mama babiri bari mu gikoni bategura ibyo kurya, imbere yabo hari imboga rwatsi, urusenda n'inyanya hirya ku rukuta ruriho irangi ry'umweru hariho isaha.

Umuryango ubona ko wishimye arimo umugabo wambaye agasaha ku kuboko ndetse n'umupira w'ubururu, hirya ye hari akana gafite umusatsi, hirya hari umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Icyumba gisizemo irangi ubona ko rifite amabara y'umweru, imbere hicaye umusore wambaye agapira imbere k'umukara ndetse n'ishati irimo umweru n'umukara, imbere ye hateretse igikombe cy'umweru ndetse ari kumwe n'umusaza wambaye indorerwamo z'amaso.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi, wambaye amadarubindi, afite ikaramu mu ntoki ze y'amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Umusaza wambaye agashati k'umweruru, w'imvi z'uruyenzi ari kumwe n'umukecuru w'imvi wambaye agapira k'umutuku barimo bararya, imbere yabo hari amasahani ariho amafunguro.

Umusaza ufite agacupa mu ntoki wambaye impeta, imbere ye hari uducupa turimo ibinini n'impapuro, iruhande rwe hari umukecuru ufite mudasobwa imbere ye.

Umukobwa w'inzobe wambaye itaburiya y'umweru ubona ko ari gusuzuma umusaza w'uruhara ndetse n'imvi z'uruyenzi.

Umugabo uhagaze mu cyumba kirimo imbaho, afashe ku byuma by'umweru ndetse afite amaguru y'umukara, yambaye itaburiya y'ubururu bwerurutse, ndetse yambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso.

Muganga w'inzobe ufite imisatsi ikora mu bitugu, yambaye ishati y'ubururu, ubona ko arimo kuganiriza umusaza wambaye ishati y'umutuku ndetse n'imvi z'uruyenzi, ubona ko bishimye cyane.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara yambaye umukandara amufashe afashe ku byuma bibiri, inyuma ye hamukobwa wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo w'imvi z'uruyenzi wambaye indorerwamo z'amaso arimo guseka yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, inyuma ye hari umukobwa uri guseka w'inzobe ufite umusatsi w'umukara ufashe kuri ako kagare.

Ababyeyi babiri bakuze ubona ko bari gufata amafunguro, umubyeyi w'umugabo afite icyuma mu ntoki ndetse n'ikanya, umubyeyi w'umugore afitekanya mu ntoki.

Umugore w'inzobe wambaye amaherena ndetse n'umupira w'umuhondo, afashe ikaramu mu ntoki, imbere ye hari umusaza w'imvi z'uruyenzi, wambaye umupira w'umukara ndetse n'amadarubindi, imbere yabo hari ameza ateretseho igikombe kirimo amazi.

Umugabo w' umwirabura wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n' ishati y'ubururu afashe mu kiganza umugore w'umuzungu wambaye umupira w'ubururu.

Umubyeyi mukuru ufite imvi, wambaye umupira w'umuhondo, ubona ko ari kumwe n'umukobwa we mukuru, wambaye amadarubindi ndetse n'akana gato, ubona ko ari umuryango wishimye.

Umukobwa w'imisatsi miremire igera mu mugongo, wambaye agapira k'icyatsi, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse inyuma ye hari insakazamajwi, imbere ye hari umuntu wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi biganjemo igitsina gore bambaye imyenda y'imyeru, bicaye ku ntebe z'imyeru mu cyumba cy'inama, ubona ko bari gusobanurirwa n'umugore wambaye ikote ry'umukara, umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umweru.

Umuntu wambaye bote z'umukara, wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'ingofero y'umukara arimo gupfura ibyatsi, hejuru ye hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Abantu benshi biganjemo abambaye imipira y'imyeru, harimo abafashe igipapuro cyanditseho ngo rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi.

Umuntu wicaye werekanye amaboko ariho ibiheri byinshi, munsi handitse amagambo ari mu nyuguti nkuru yandikishijwe n'ibara ry'umweru ngo twirinde, munsi yayo hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo ngo indwara y'ubushita bw'inkende.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'umweru ndetse n'ikote ry'ubururu, afashe mu kiganza, umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karuvati y'umukara, ufite igipapuro cy'umweru mu ntoki.

Bicaye ku ntebe z'imyeru bambaye imipira y'umutuku ndetse n'udupfukamunwa ,udukapu tw'imyeru ndetse barimo baratanga ubufasha kubana.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru agapira k'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara ari gutera urushinge umuntu wicaye ku ntebe y'ubururu wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro' y'umuhondo n'inkweto z'umukara.

Umugore yambaye agapfukamunwa ijire y'umukara ndetse n'amabara y'umweru, inyuma ye hari umugore wambaye itaburiya y'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa, hirya kurundi ruhande rw'iburyo hari umugore wambaye itaburiya y'ubururu bwererutse.

Ikirango kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, cyifashishwa mu kurinda agakoko gatera sida, hirya yacyo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku. Hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Inyubako yubatse y'umuzenguruko, yiganjemo amabara y'ubururu, icyatsi, oranje, iruhande rwayo hari umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ijipo y'ubururu.

Muganga wambaye ingofero y' abasilamu n’ agapfukamunwa, ishati y’ umweru, ari gutera urushinge umusore wambaye ishati y'ubururu ndetse n' agapira k' umweru n' agapfukamunwa.

Abagabo batatu bambaye amakoti y'imikara ishati y'umweru ndetse n'ishati y'umutuku, arikumwe n'abagore batatu bambaye ikanzu y'umuhondo n'ishati y'umweru.

Agapira k'umweru ndetse wiziritse igitambaro cy'umweru, wambaye n'itaburiya y'ubururu, n'akamuranga mu ijosi, n'isaha ku kuboko ndetse n'udupfukantoki. Hirya ye hari umukobwa wambaye ikote ...

Abantu benshi ubona ko bambaye utubaranga mu ijosi dufite imigozi y'ubururu, barambuye amaboko imbere yabo hari intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse hari imeza iteretseho agacupa k'amazi.

Abantu bambaye ibyenda by'umweru birebire bibapfutse hose ndetse n'udupfukamunwa bambaye n'udupfukantoki, bambaye imikandara inyuma yabo hari umuntu uhagaze wambaye imyenda ya move.

Itsinda ry'abakobwa bicaye, imbere yabo hari mudasobwa, hirya hari umukobwa wambaye agapira k'umukara, kandikishijeho amabara ya move, hirya hari umukobwa wambaye umupira w'umukara, ndetse afite imisatsi miremire. Hirya hari umukobwa wambaye ingofero.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara karuvati y'umukara ishati y'umweru ndetse yambaye amadarubindi, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'insakazamajwi, hirya ye hari agacupa k'amazi ndetse hicaye umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru n'ipantaro y'umukara ari gutera urushinge muntu ku rutugu, inyuma ye hari intebe z'umweru ziticayeho abantu.

Icyumba kirimo ibara ry'umweru, ku rukuta hariho ibara ry'umuhondo, ifite ibitambaro by'umweru harimo amatara ndetse n'intebe.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, hejuru ku rukuta handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ifite amadirishya asize ibara ry'umweru ndetse imbere hari amawuwa.

Inyubako yubakishije amatafari yahiye ya mpunyu, amadirishya asize irangi ry'umweru, iruhande rwayo hari abantu bahicaye ubona ko ari kwa muganga bategereje guhabwa serivisi zitandukanye.

Icyumba kirimo amatara ari ku rukuta, hicayemo abagore babiri, umwe afite ikayi mu ntoki yambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari undi umwicaye imbere, wambaye umupira uri mu ibara ry'ivu.

Iruhande rw'inzira hari indabyo, hagati muri ubwo busitani hateyemo umukindo, hirya y'aho hari imodoka ziparitse imbere y'inyubako zubakishijwe amatafari ahiye ndetse hari n'ibyuma.

Umugabo wambaye ishati yumweru agakote k'umukara arikumwe n'umugore wambaye ishati y'umweru n'agakote k'umukara, hirya ye hari umugore wambaye ikote ry'umukara hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye ipantaro y'umweru, ishati y'umweru n'inkweto z'umukara ari gufasha umukecuru wicaye mu kagare bose bambaye udupfukamunwa, hirya ye hari umugore wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari agacupa k'amazi.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo amakaro meza, ururabo, hari abantu bategereje guhabwa serivisi, isaha nziza ndetse n'amatara.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'ubururu, afite agacupa gafite umufuniko w'ubururu. Ari mu cyumba gifite ibara ry'umweru, harimo intebe n'ameza.

Igipangu cyubakishijwe urukuta rw'amabuye ndetse n'amatafari ahiye, hagati hagiye harimo ibyuma biteye irangi ry'umweru. Hejuru hari icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri.

Urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye munsi yarwo hari ubusitani iruhande rw'ubwo busitani hari amapave agiye atandukanye, arimo ay'ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara, n'agapfukamunwa, ari gusuzuma umwana, wambaye ubusa hejuru, iruhande rwe hari umusore wambaye isaha ku kuboko, ndetse n'ikabutura y'umukara.

Inyubako ndende iri mu ibara ry'ivu ndetse n'umuhondo, hejuru ku rukuta rwayo handitseho ibitaro bya Rwamagana, hasi hahagaze abantu harimo abambaye imipira y'imyeru ndetse n'amapantaro y'imikara.

Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga kiriho amashuka y'umweru yambaye agapira k'umutuku karimo amabara y'umukara yiyoroshe ikiringiti kirimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu, hasi imbere ye hari utubuni tubiri tw'umweru.

Icyumba giteye irange ry'umuhondo, kiriho ikibaho cy'umukara, cyandikishijweho ingwa y'umweru, hahagaze umusore wambaye isaha ku kuboko n'agapira k'umweru. Imbere ye, hari umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, uri gufasha umunyeshuri.

Kwa muganga hari ibitanda, amashuka y'imyeru, bikoresho bakoresha kwa muganga intebe, imeza, imisego, amatara...

Inyubako ndende isize irangi ry'umweru, iruhande rwayo hahagaze umuntu wambaye agapira k'umuhondo. Hepfo yaho hari ikigega cy'umukara iruhande rwaho hari ubusitani. Imbere hari umuntu wicaye mu kagare.

Itsinda ry'abantu bahagaze mu bwatsi, hari icyapa kinini cyanditseho ibitaro bya Butaro. Harimo umuntu wambaye umupira w'umweru, ndetse n'agakote k'umukara. Imbere ye hari uwambaye ikote ry'umukara, ndetse na karuvati.

Inyubako ndende imbere yayo hari umukindo ndetse n'imodoka, hanze ku gipangu hari icyapa cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara kwa Nyirinkwaya.

Icyumba cyo kwa muganga gitakishije amabara menshi yiganjemo icyatsi kibisi ,ubururu harimo amatara, intebe ndetse n'imeza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitatu bibiri biriho abarwayi ikindi kimwe gishasheho ishuka y'umweru hejuru yabo hari inzitiramibu.

Akayira kajya ku nzu karimo umuntu wambaye umupira w'umukara harimo ibara ry'umutuku, munsi ye hari ibyatsi, imbere y'ibyo byatsi hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ruguru yaho hari inzu irimo amabara y'umweru.

Inzu yubatse n'amatafari ahiye ya mpunyu, akotejwe ibara ririmo umukara, hejuru ku kibambasi hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, ngo "aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina".

Inzu zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu ziri mu busitani, igipangu cyaho cyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru kuri icyo gipangu hari icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye, imbere ku rukuta hariho irange ry'ibara ry'umweru, amabati y'ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hari umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuntu uri kugenda ku mapove, yambaye ishati y'icyatsi cyijimye n'ipantaro y'icyatsi cyijimye, ruguru ye hari urutoki. Hirya hari inzu isize irange ry'umweru ndetse n'amabati y'umutuku.

Inyubako iteye irange ry'umweru, hejuru ku rukuta handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu. Hasi hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara.

Inzu igeretse gatatu hejuru yayo hari ikigega cy'umukara, mu muryango harimo imodoka, hepfo yayo hicaye umugabo ku ntebe y'umweru, wambaye agapira k'ubururu.

Icyapa kiri mu busitani cyanditseho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru hirya y'aho hari inzira abona ko ijya ku nzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati.

Abagore batatu bambaye udutambaro tw'umweru, amataburiya y'ubururu bahagaze umwe yambaye amaherena ,inyuma yabo hari indabyo ndetse n'ibiti binini birebire.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda gishasheho amashuka y'umweru, hejuru ku gikuta hariho televiziyo igaragaza amashusho, ndetse mu cyumba harimo n'intebe z'umukara.

Icyapa cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, orange ubururu, ndetse n'icyatsi kibisi hasi yacyo hari ibyatsi, hirya yacyo hari inzu irimo amabara y'umuhondo.

Inyubako ndende ubona ko harimo abantu bagiye batandukanye baje guhabwa serivise zitandukanye z'ubuvuzi, hejuru ku gikuta hari igitambaro gifite ibara ry'umweru cyandikishijemo ibara ry'umukara, handitse ngo ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, imbere ubona ko hari indabyo, hirya yaho ubona ko hari umugabo wambaye ingofero y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga gisize ibara ry'umweru, intebe ndetse n'amakaro imbere hari imiti igiye itandukanye amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Inyubako, amagambo yanditse ku rukuta rw'inyubako, yiganjemo umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi.

Icyumba kirimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere yaho hari ibitanda biriho amashuka y'umweru ndetse n'ubururu bwererutse harimo amata.

Icyumba kirimo abantu bambaye imyenda ibapfutse y'imyeru, harimo uturongo tw'ubururu, harimo intebe, ibitanda ndetse n'amatara, harimo n'ibitambaro by'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe ibitanda, ibikinisho by'abana, harimo intare ndetse harimo n'udupima ubushyuhe n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Icyumba kirimo ibitanda by'amabara y'umweru, harimo umukobwa usa nkaho ari kugenda yambaye itaburiya y'ubururu bwijimye, ndetse na terefone mu mufuka w'inyuma.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye harimo umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara zirimo amabara y'umweru hirya ye ndetse n'inyuma ye hari abagabo bafite inkoni z'ababana n'ubumuga bwo kutabona.

Itsinda ry'abakobwa bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye akamuranga mu ijosi, bambaye amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu, hejuru yabo hari amagambo yanditswe mu nyuguti nkuru ndetse ari mu ibara ry'icyatsi cyijimye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ku rukuta hariho kizimyamwoto, amabati yayo ni umweru ndetse hari ahateye irangi ry'umweru, hepfo yayo hari ibigega by'umukara, mu busitani bwaho harimo ibyatsi.

Umugabo muremure wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, iruhande rwe rw'ibumoso hicaye umugabo wambaye umupira w'umutuku, imbere ye hari agacupa karimo amazi.

Ihuriro ry'imihanda iri iruhande rw'inzu iruhande rwayo hari ubusitani burimo ibyatsi bitoshye iyo nzu yubakishije amakaro, munsi yayo hari indi nzu iriho amabara ya oranje ndetse munsi yayo hari ibyatsi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye. Hejuru ku rukuta hariho irangi ry'umweru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ngo "ikigo nderabuzima cya Rwerere", ruguru yaho hari umukingo uriho n'amawuwa.

Igitanda gifite amabara y'umukara ndetse hirya gifite n'udupine tw'umukara imbere yacyo hari agatebe kegamirwa gafite ibara ry'umukara aho bicarira hirya yaho hari ikindi gitanda na cyo gifite ibara ry'umukara aho baryamira munsi gifite amabara y'umweru.

Abaganga b'abakobwa babiri, umwe yambaye itaburiya y'umweru afite agahinja mu ntoki, undi yambaye itaburiya y'ubururu irimo akabara k'umweru mu ijosi, ndetse yambaye n'amadarubindi.

Inyubako iteye irange ry'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku, hafi yayo hari ubusitani burimo ibyatsi byinshi, muri ubwo busitani hahagazemo umusore wambaye agapira k'umutuku.

Umugabo wambaye ishati yubururu bwerurutse ipantaro yumukara, yicaye kurukuta rw'amabuye inyuma ye hari igiti cyumuvumu gifite amashami menshi munsi yacyo hari ibyatsi.

Abagore n'abagabo ndetse n'abana bicaye ku kigo nderabuzima aho bategereje guhabwa serivisi, barimo baragirwa inama kugira ngo bamenye ibisabwa, ndetse bamenye n'amabwiriza abagenga nk'abarwayi.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga gisize ibara ry'umweru harimo intebe zigiye zitandukanye, harimo izifite amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru.

Umugabo uhagaze mu cyumba wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, hirya ye hari igikuta gisizeho irange ry'umweru, imbere ye hari intebe z'umukara.

Umugabo uhagaze imbere y'inzu isize amabara y'umweru, wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'agapira k'ubururu, hirya ye hari umugore uhagaze wambaye agapira k'ubururu.

Inzu isize amabara y'umweru, iriho amabati y'umutuku ndetse n'irangi ry'ubururu, munsi yayo harimo umuntu uri kugenda mu nzira irimo amapave. Hepfo yaho hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako ndende igereretse hejuru hari icyapa cyandikishijeho amagambo y'icyatsi kibisi, inyubako yubatse n'amatafari ahiye, munsi yayo hari moto, iruhande rwaho hari abantu babiri bambaye imipira y'ubururu.

Igipangu cyubakishijwe amabuye hariho ibyuma by'umutuku, ruguru yacyo hari abantu bari mu muhanda harimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu, hepfo hari inzu ndende yubakishije amatafari ndetse n'irangi ry'u...

Umugabo wambaye yikwije, wambaye n'agapfukamunwa n' imyenda imupfutse ahantu hose, ubona ko ari kwa muganga ari gutera imiti. Imbere ye hari indobo y'icyatsi kibisi. Inyuma ye hari indobo y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda gishasheho amashuka y'umweru ndetse n'imisego, harimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Inyubako isize irangi ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo, hirya hari isize umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwaho hari ibyatsi byinshi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hasakaje amabati y'ubururu, ndetse ku nkuta hagiye hariho irangi ry'umweru, iruhande rwaho hari amawowa.

Inzira igana ku nyubako isize irangi ry'ivu ndetse na oranje munsi yayo hari ibyatsi ruguru yayo hari inzu ifite urukuta rwubakishije amabuye ndetse hejuru hari ibara ry'umuhondo.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa k'umweru indorerwamo z'amaso ndetse n'akagofero gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, afashe ku mwana wambaye akagofero k'umweru karimo tubara tw'umukara ndetse umubyeyi we yambaye ishati y'ubururu.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda y'imyeru n'amashati y'imyeru bafite udukangara mu ntoki turimo udukoresho tw'imyeru, ibyuma byo kwa muganga ndetse barimo baragana mu ivuriro.

Imodoka iparitse ku mapave, iruhande rwayo hari umugore wambaye agapira k'umutuku ndetse ruguru ye hari urukuta rw'amabuye. Yicayeho umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Inyubako ndende igereretse kabiri irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, imbere yayo hari amapave, hari icyapa kirimo imyeru ndetse na oranje, hafi yaho hari ubusitani.

Abantu benshi batonze umurongo, imbere yabo hari intebe z'umukara, imbere hari intebe y'urubaho, imbere hari umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, imbere hari umuntu wambaye umupira w'umweru.

Sale nini yo kwa muganga hari abantu bicaye bategereje guhabwa ubufasha, intebe bicayeho n'intebe z'umukara imbere yaho hari igikuta kiriho amabara y'umweru.

Inzu igeretse kabiri iruhande rwayo hari ibyatsi, igipangu cyayo kigizwe n'amatafari ahiye ndetse n'ibyuma, iruhande rw'icyo gipangu hari imodoka ndetse mo imbere harimo abantu bambaye imipira y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho, gifite amabara y'ubururu, aho ngaho ni aho bakirira abantu, bahabwa serivisi zitandukanye kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ishakaje amabati y'imyeru, iruhande rw'ayo hari umugabo utwaye igare ku gipangu cyaho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru Kabgayi.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo, hepfo yayo hari amawuwa, ndetse amadirishya yayo ateye irangi ry'umweru, imbere hari abaganga bambaye ibibaranga ndetse n'udupfukamu.

Inzira ikoreshejwe amapave, iruhande rwayo hari urukuta rw'amabuye imbere yayo hari ibyatsi, hirya yayo hari inzu iteye irangi ry'umweru ndetse ifite amabati y’umutuku.

Ababyeyi babiri harimo n'abana babiri bicaye imbere ku rukuta, hari inzu yubatse ifite ibara ry'umweru ndetse n'amabati y'ubururu, handitse ikigonderabuzima cya Shagasha, imbere hari amapave.

Urukuta rw'amabuye imbere yaho hahagaze umusaza wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikote ry'umukara n'ingofero, imbere ye hicaye abantu. Hirya ye hari inzu yisize irange ry'umweru ndetse n'amabati y'umutuku.

Umuganga wambaye amadarubindi, itaburiya y’umweru udupfukantoki, arimo gufasha umubyeyi uryamye ku gitanda ubona ko ari kumusuzuma.

Ibyicungo by'abana biri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu iruhande rwaho hari urukuta rwubakishije amabuye n'amatafari ahiye hakurya hari amazu afite amarangi y'umweru ndetse n'amabati y'umutuku.

Umuntu ufite moto ndetse n'umugenzi, baje ku nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, hejuru ku nyubako, hari icyapa cyandikishije amagambo y'icyatsi kibisi ndetse n'amagambo yo mu ibara ry'umutuku.

Umusore wambaye umupira w'ubururu ipantaro y'umukara ndetse n'udupfukantoki afite umukubuzo mu ntoki, hirya ye har'indobo y'umukara ndetse kurirwo ruhande hariyo umubyeyi wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'udupfukantoki.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, harimo uturongo tw'umutuku dutambitse ku maboko ndetse n'ipantaro y'umweru, inkweto z'umweru, ari mu cyumba giteye irangi ry'umweru, imbere ye afashe mu cyuma gikonjesha, gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyapa byinshi, harimo ibyandikishije amabara y'ubururu, harimo intebe nyinshi ndetse n'ameza.

Inzu yubakishije amabuye hejuru yayo hariho urusenge rw'umweru, imbere yayo hari umugore witeze agatambaro k'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye ikote ry'umweru n'agapira k'umukara.

Inyubako ndende ikorerwamo ubuvuzi, hejuru hari icyapa cyandikishijeho amabara y'icyatsi kibisi, munsi hari imodoka z'ubwoko butandukanye, iruhande rwaho hari umutaka.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agashati k'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umutuku, hirya ye hari umugabo wambaye agakote k'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Imbere ye hari umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'umupira w'umweru.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye agasengeri k'ibara ry'umukara ndetse n'agakabutura k'ibara ry'umukara, amasogisi yo mu ibara ry'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso

Umusore wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye afashe ku kuguru yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara inyuma ye hari ibyatsi.

Umurwayi uryamye ku buriri kwa muganga uriho amashuka y'ubururu, imbere ye hari ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, iruhande rwaho hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, hirya ye hari umugabo wifashe ku itama wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikote.

Umusore uraramye ufite umusatsi w'umukara wambaye agapira k'ibara ry'ivu harimo akarongo kamanuye ku kuboko k'umukara ndetse gacupa afite mu ntoki gafite ibara ry'ubururu, ndetse hejuru kumunwa gafite ibara ry'umukara.

Itsinda ry'imipira, harimo uwo bakina umupira w'amaguru mu ibara ry'umukara n'umweru, itenesi ry'umuhondo ndetse icyuma gipima umutima n'akandi gatenesi ku mweru.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse harimo ibara ry'umutuku yicaye ku gitanda ari kwitabwaho n'umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara n'isaha ku kuboko.

Urubyiruko rwiganjemo abasore bambaye amajire ashushanyijeho umusaraba bisobanu umuryango ushinzwe gufasha imbabare croix rouge mu rurimi rw'icyongereza barimo guhabwa inyigisho.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara. Arimo kumva n'indirimbo.

Umwana wambaye umupira w'umutuku ndetse n'agakabutura k'ubururu arimo kwigorora, umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara ubona ko arimo yirukanka.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare w'ibara ry'umukara, ikabutura y'ibara ry'umukara harimo uturongo tw'umweru tumanuye yicaye ku gitanda kwa muganga ari guhabwa ubuvuzi.

Umusore w'ubwanwa bwinshi w'inzobe wambaye akantu k'icyatsi ku kuboko kw'iburyo afite agacupa k'amazi yakazamuye n'ukuboko kw'ibumoso ari kuyanywa.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umutuku urimo akabara k'umweru, isaha ifite igikoba cy'umukara ndetse ifite n'akabara k'umweru, ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umukara n'inkweto z'umweru, aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye afashe ku nkweto yo ku kuguru kw'iburyo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara zirimo akarongo k'umweru ari kumwe n'uwambaye ipantaro y'umukara ndetse inkweto z'umukara harimo karongo k'umweru, bateruye umukinnyi.

Igikoresho kirimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo umukasi ndetse n'utundi tuntu turimo utw'amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse na oranje.

Umubyeyi yicaye mu cyumba araseka cyane rwose ubona ko yishimye, ari kumwe n'akana gato cyane nako kishimye cyane, inyuma yabo hari ibikoresho bifashisha, imbere yabo hari igitenge ndetse cyiza cyane.

Umugabo ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara hariho akantu k'ibara ry'umweru ndetse yambaye n'inkweto z'umukara hasi hariho uturongo tw'umweru.

Umugabo usutamye wambaye umupira w'umukara ndetse afite umugozi ufite ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya ndetse n'ipantaro by'ubururu, ufite n'ikimuranga mu ijosi.

Umuntu wambaye agapira k'ubururu ipantaro yumukara ndetse n'inkweto z'umukara arahagaze. Undi aricaye ari mu myitozo ngororamubiri yambaye agapira k'umukara karimo amagambo yandikishije umweru ndetse, n'ipantaro yumukara irimo akarongo k'umweru.

Umuntu uri gushinyiriza, wambaye agapira k'umweru, isaha ku kuboko, impeta ndetse yambaye akantu ku kuguru k'umukara, harimo akarongo kamanuye k'umweru.

Inzu yubakishije amatafari, harimo umuntu uryamye ku mukeka, azamuye akaguru afashe mu ivi, akandi kaguru yakarambuye gafashe hasi.

Umukobwa uryamye wambaye ipantaro y'umukara, yarambitse ibiganza kuri tapi, yambaye agapira k'umweru kavanzemo na move, imbere ye hari ivase irimo ururabo.

Ibinini by'umweru ndetse n'umutuku, metero ipima uburebure ndetse hari n'uruvange rw'imbuto harimo: indimu, ironji, inanasi ndetse n'imineke na tungurusumu.

Inkweto, ibiganza biteruye imbuto, voka, inyanya, tungurusumu ndetse na karoti.

Umugabo wicaye ku ntebe ubona ko ari mu biro yambaye ishati y'umutuku, imbere ye hari akabati gateretseho mudasobwa, hirya ye hari intebe nyinshi zo kwicaraho, ubona ko ari kureba muri mudasobwa.

Muganga w'umukobwa wicaye wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'ubururu n'udupfukantoki. Ubona ko ari mu cyumba ari kumenyereza umurwayi kugira ngo atore agatege.

Umusore ubona ko yababaye arahumirije yambaye agasengeri k'umutuku karimo utubara tw'umweru, ndetse n'agakabutura k'umukara, afashwe n'umuntu wambaye agapira k'umweru ndetse n'uturindantoki.

Umukobwa uri gusunika icyuma, ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri, kuri tapi. Yambaye agasengeri k'umuhondo, ndetse n'ikabutura y'ubururu.

Ibinini biri mu mabara atandukanye nk'umutuku, umuhondo, umweru, n'icyatsi bikoze ishusho y'umuntu uri kwiruka byegereye ipopo irimo urushinge batera umurwayi, kandi byegereye n'agafuniko gapfundikira urwo rushinge hejuru hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara, akaboko ke k'iburyo gafashe mu ivi ry'akaguru k'ibumoso, akaboko ke k'ibumoso gafashe ku kirenge cy'ukuguru kw'ibumoso.

Umugabo wambaye Itaburiya y'umweru ndetse n'indorerwamo z'amaso n'agapfukamunwa. Imbere ye hari umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu. Imbere ye hari umugabo wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'itaburiya y'umweru.

Umukobwa ufite akantu kaziziritse ku kuboko kwe kajyamo terefone, wambaye agasengeri k'umukara n'ikabutura y'umukara, yazamuye ukuboko, yashyize icupa ku munwa we ari kunywa amazi.

Itsinda ry'imbuto harimo: kokombure, imineke, urusenda, indimu ndetse n'amarongi, iruhande rwayo ari ibyuma.

Abantu bambaye imyenda itukura, bafite igitanda cyifashishwa mu buvuzi bw'ibanze mu gutabara abantu, gifite ibara ry'umuhondo ndetse hariho utugozi tw'imikara.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, imbere ye hari umubyeyi ufashe ku mwana inyuma ku mutwe, umwana wambaye agapira k'ibara ry'umuhondo ndetse harimo uturongo dutambitse tw'umukara.

Abantu babiri umwe yambaye impuzankano y'ubururu azirikishije umukandara w'umukara, yafashe mu bitugu undi wambaye impuzankano y'umweru bari mu ruziga rurimo izuba ndetse mu ibara ry'umuhondo.

Umukobwa wicaye ku mukeka, mu nzu irimo amakaro, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umukara, imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe hari agacupa k'amazi.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, karimo akabara k'umuhondo, yambaye umupira w'umukara na wo urimo akabara k'umweru, ndetse yambaye isaha y'umukara ku kuboko, afashe umukinnyi wambaye agatambaro k'umweru ku kuboko, ndetse yambaye ingofero y'umwenda mu mutwe.

akuma gatukura gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri pome, amaronji, agacupa karimo amazi gafite umufuniko w'ibara ry'ubururu ndetse n'umugozi upima uburebure.

Itsinda ry'imbuto harimo amaronji, pome ndetse hari n'umugozi upima uburebure, hakaba hari n'amazi ari mu gacupa gafite umufuniko w'ubururu.

Umukobwa w'imisatsi miremire igera mu mugongo, wambaye ekuteri z'umweru afite agacupa ku munwa arimo kunywa amazi, yambaye agapira k'umutuku ndetse na terefone ku kuboko.

Umusore uraramye uru kunywa amazi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'agakabutura k'umweru, yambaye agatambaro k'ibara ry'umweru ku kuboko kw'iburyo kandi ari kunywa amazi.

Umusore wicaye ku gatebe, arimo arahabwa ubuvuzi bw'ikirenge n'umugore wambaye ishati y'umweru, isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro y'umukara, afashe kuri bande ari guha ubuvuzi bw'ibanze.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu, ubona ko ari mu bubabare, ateruwe n'abagabo babiri bagiye kumushyikiriza kwa muganga, kugirango ahabwe ubufasha butandukanye.

Kwa muganga hari umuntu urimo akora imyitozo ngororamubiri, hari ibyuma byinshi bifasha abantu gukora iyo myitozo, iruhande rwe hari umuntu uri kumufasha uri kumwerekera.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye agakabutura k'umukara, ateruye icyuma, imbere ye hari imbuto zitandukanye harimo: ishu, karoti, hari n'amagi, ndetse n'inanasi, hari n'agacupa k'amazi.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye umupira w'ubururu, ikabutura y'umweru irimo akabara k'umutuku ndetse n'umukara afashwe n'undi muntu wambaye umupira w'umukara.

Ibyuma bibiri bya move kimwe kigeretse ku kindi, bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri. Hejuru yabyo hari agapima uburebure. Hirya yaho hari igisate k'ironji ndetse imbere yaho hari pome.

Abaganga batatu bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'ubururu bwererutse bafashe ku meza, inyuma yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse hirya ye hari n'undi wambaye itaburiya y'ubururu wifashe mu mayunguyungu, inyuma ye hari umugore wambaye itaburiya y'icyatsi kibisi wicaye.

Urubuto rwa avoka rwose ndetse n'igisate cyarwo harimo ikibuto m’imbere, inyuma yabyo har’ikimera cy'igikakarubamba, imbere yabyo byose har’isabune iriho akanyoni ikozwe mur’urwo ruhurirane rw'izo mbuto.

Umugabo wambaye ishati y'umukara harimo uturorongo tw'umweru n'ipantaro ya kake, afashe ku meza iriho ibitambaro by'umweru, hirya ye hari umugore uhagaze, wambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru, inyuma y'uwo mugore hari irido ry'umweru ryanditseho ngo dukora amatelefone y'ubwoko bwose.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru, hariho icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Iruhande rwaryo hari igikakarubamba.

Umuntu ufite agahini ndetse n'agasekuru basekuriramo imiti gakondo ivura iteretse ku musambi, imbere hari udukono ndetse n'udusahani turiho imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu bwerurutse hirya ye hari amacupa agiye atandukanye arimo imiti hariho ayafite imifuniko y'icyatsi kibisi ndetse n'yofite imifuniko y'umuhondo.

Igitunguru igisate kimwe, igitunguru kidasatuye, indimu ibisate bibiri, icupa rirerire ririmo ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, hejuru yaryo handitseho amagambo baho neza.

Amajerekani y'umuhondo, afite imifuniko y'ikigina, hasi hashushanyijeho igikakarubamba. Handitseho amagambo yandikishijwe n'ibara ry'umukara. Iruhande rwaho hari uducupa abona ko turimo imiti n'imifuniko y'imyeru.

Itsinda ry'imiti gakondo yiganjemo iyumuhondo, ubururu ndetse n'umutuku nkigina, hirya y'aho hari akabati karimo uducupa turimo imiti gakondo.

Akabati karimo imiti igiye itandukanyekanye, higanjemo udufite imifuniko y'umweru ndetse inyuma yaho hari umukobwa wambaye umupira w'umweru, hirya ye hari igiti cy'umukindo.

Igikarito gifite ibara ry'umutuku, muri iryo bara handitsemo amagambo y'ibara ry'umweru, munsi yayo hashushanyije agakombe k'ibara ry'umukara n'umweru ndetse hejuru hari ibara ry'umweru, hirya hagati harimo inanasi.

Imbaho, umuceka, isahani, igikombe, maronji, tangawise, ndetse n'umutobe ukozwe mu maronji w'umuhondo.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi bwa gakondo bukomoka ku bimera ihurijwe hamwe yose hamwe kugira ngo ize gucucumwa ibe yavamo umuti wavura indwara zitandukanye yaba izifata ubuhumekero cyangwa izifata mu nda ndetse n'umutima.

Indimu ubona zirunze ku meza, iruhande rwazo hari icyuma gifite ikiriindi cy'umukara, hepfo ku ruhande rw'iburyo hari icyatsi kizwi nk'umucyayicyayi gikoreshwa mu guteka icyayi.

Umugabo n'umugore, hejuru yabo handitseho ku muryango, imbere yabo hari ibara ry'umuhondo ryanditsemo amagambo yandikishije ibara ry'umweru, handitseho ngo; uvura kurangiza vuba, gucika intege, hirya yaho hari agafuniko k'umweru.

Imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo, irambitse ku mpapuro aho itegerejwe gutunganywa, hari agasekuru ndetse n'umuhini bikoreshwa mu gusekura iyo miti.

Inkoma zirunze ku meza, hariho imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, itegerejwe kugira ngo itunganywe maze ivure indwara zitandukanye.

Etajeri irimo amacupa arimo imitigi igiye itandukanye afite imifuniko igiye ifite amabara atandukanye, harimo ifite umufuniko w'umuhondo ifite imifuniko y'umutuku ndetse n'iy'imyeru.

Icyapa cyanditseho amagambo manini cyane ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi matoya ari mu ibara ry'umweru naryo, hasi hagaragara umuti ushushanyijeho igihingwa cyitwa igikakarubamba.

Imiti gakondo yahurijwe hamwe harimo iri mu ducupa tw'umuhondo uducupa tw'umweru dufite imifuniko y'imyeru, hirya hari agacupa gashushanyijeho igikakarubamba.

Abantu benshi barimo bava mu murima w'inanasi, harimo abambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, barimo basatira imodoka ebyiri ziri imbere yabo.

Wambaye agapira k'umutuku n'ikote ry'umukara, ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'umweru n'igitambaro mu mutwe bagiye mu ishyamba.

Umukobwa wambaye agapira k'umukara . Hejuru ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku . Hejuru yaho hari amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse hejuru hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abantu barimo bagenda mu musozi bahetse ibikapu barimo basatira amazi amanuka mu musozi hejuru, inyuma yabo hari amabuye menshi, hirya yabo hari ibyatsi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero y'icyatsi n'itabuririya y'umukara n'umweru, imbere ye hateretse uducupa tw'imikara dufite imifuniko y'umweru, hirya yaho hari udukarito twa oranje.